Ahantu bacururiza imiti ivura abantu. Dukunda kuhita muri farumasi. Ibi ni ibitaro byigenga bicuruza imiti. Iyo warwaye uragenda ukajya kugura bakaguha umuti.

Ubutaka burimo igiti cy'umuhate, kino giti gituma abantu bamenya imbibi, aribyo bita imbago, ndetse hari n'abagikoresha bari kuzitira, kikababera uruzitiro.

Umuharavumba ni igihingwa cyangwa se ikimera, abantu bakoresha bari kwivura igihe barwaye indwara nk'ibicurane, igihe bari kubabara, ndetse n'igihe bafite ibindi bibazo bitandukanye. Kino gihingwa ni cyiza kubera ko gitanga (kibaga) umuti mwiza.